Umuyobozi wo muri gereza afashe mikoro, ari kuganiriza abantu bari bari kumwe. Bari kuganira ku mutekano w’u Rwanda kugira ngo tugire umutekano umeze neza.

Abayobozi baturutse ahantu hatandukanye, bari mu nama, bari kuganira ku bintu bitandukanye bakorera u Rwanda, rugatuma bakomeza kwiteza imbere.

Umupolisi afashe umushumi uziritse imbwa, iruhande hariho imodoka imeze neza cyane, kugira ngo baducungire umutekano wa buri munsi.

Abaporisi bahagaze mu muhanda bari gutanga udupapuro bigaragara ko utwo dupapuro dufite umumaro, bari kudutanga kugirango abantu bose tubagereho.

Umuyobozi ari kuganiriza abandi bayobozi bakora inama, yo kuganira mu bintu byakomeza guteza u Rwanda imbere.

Umuyobozi uri gushimira umuturage wakoze ibintu neza, akaba yarabaye indashyikirwa mu bandi baturage bari bari aho ngaho.

Abagabo bahagaze imbere batondetse umurongo, bigaragara ko bambaye amapingu, bakoze ibyaha bakaba bagiye kubafunga, kugira ngo ngo bahanwe.

Ikoranabuhanga rirakataje, bakora n'ibyuma bisohora umwotsi mu nzu, bityo umuntu akagira umwuka mwiza mu nzu yaho aba.

Inama y'abayobozi baturutse hamwe, n'abandi bahurira hamwe bakora inama ituma babona icyakomeza guteza u Rwanda imbere.

Abagore n'abagabo benshi bicyaye hamwe, bigaragara ko baje mu nama, y'ibyo bagiye kuganirizwa n'abayobozi babo, babakuriye ibyo babaga bateguye kubaganiriza.

Abantu baje mu nama ari benshi bari kuganirizwa n'umuyobozi wabo, bashaka icyatuma biteza imbere mu buzima bwabo.

Abantu bari mu nama, ubona ko bamwe bari muri terefone, abandi bari kwandika mu makayi kugira ngo ibyo bumvise bashobore kubyibuka.

Ibintu bakoraga mu muco gakondo, bakora babumba ibintu bitandukanye harimo: ibyo bashyira mu mbabura, bagakora ibibumbano byinshi bitandukanye.

Runonko ni nziza. Bayikoraga mu muco gakondo , bagacana umuriro , bagacana muri runonko . Yamara gushya bagashiramo ibirayi cyangwa ibijumba , maze bigashya bakabirya.

Ababyinnyi babyinaga mu muco gakondo bakoreshaga ingoma n'imirishyo, kugira ngo ibirori bigende neza, n'ababirimo bizihirwe bishime cyane.

Iningiri bakoreshaga mu muco gakondo bari gucuranga, iyo habaga habaye ibirori bitandukanye, cyangwa bagiye guhanga indirimbo zitandukanye.

Iterambere riraganje mu Rwanda. Abazungu baza bakeneye kwambara imyambaro bakoresha babyina, mu muco gakondo babona ko ari byiza.

Umukeka bakoresha muri rusange bicaraho ,cyangwa banikaho imyaka itandukanye ,kugira ngo ibone akazuba maze yume vuba.

Butiki bacururizamo imikeka, intebe y'ibisika, imitako yo mu nzu, ibintu byose bakora, ni ibyo mu muco gakondo bakoraga kera.

Ababyina gakondo baba bameze neza, kandi basa neza, ubona ko ari byiza kandi bishimishije mu muco gakondo,

Ababyinnyi ba gakondo babyina bameze neza . Bafashe umurishyo, bari gukubita ku ngoma bambaye imyenda yabugenewe ,kugira ngo ibirori byabo bateguye bigende neza.

Abantu bari mu bwato bambuka, ubona ko nta kibazo bafite bava hamwe bajya ahandi, bajya gushaka ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ababyinnyi gakondo babyina bishimye, banezerewe, baseka, kugirango ibirori byabo bigende neza, bafite imirish bayikoma ku ngoma, kugira ngo ibirori bigende neza cyane.

Inka z'inyambo zimeze neza, zakuze neza, zisa neza, ubona ko nta kibazo zifite, ziri ku iriba, ziri kunywa amazi kugira ngo zitange umukamo mwiza.

Inzu y'umwami yabagamo, akayiraramo. Iruhande hari inka y'inyambo bakama, itanga amata meza.

Umuvure n'uwo bakoreshaga mu muco gakondo. Bagaburiragamo inka amazi cyangwa bagakamamo ibitoki bari gukuramo umutobe wo kunywa.

Ibyibo nibyo bakoreshaga mu muco wa gakondo, babikoreshaga bari gutwerera ahantu, cyangwa bari kubikamo umutsima w'amasaka babaga watetse.

Ogishushanyo cyiza cyubakiwe ahantu heza, impande yaho hari byatsi n'indabo, munsi harimo umuhanda wa kaburimbo, igishushanyo kigaragara ko bari kwiyama kwangiriza inyamaswa.

Akabindi ni ako bakoreshaaga mu muco gakondo. Bari gutekamo nk'inyama cyangwa ibirayi n'ibishyimbo, cyangwa ibishyimbo n'amateke. Ibintu byose bitandukanye babitekagamo. Intara yo bayigosoreragaho ibishyimbo cyangwa ibigori bitandukanye.

Ubucuzi ni ikintu kiza cyane, abantu bakunda ari benshi, kuko abantu bajyayo bagiye gucura ibintu bitandukanye, harimo nk'ishoka n'imfunguzo, ibintu bitandukanye babijyanayo bakabaha amafaranga, agatuma bakomeza kwiteza imbere.

Mu muco gakondo bakoreshaga inkongoro barimo gusuka amata kugira ngo ayo mata aryohe, bayanywe ameze neza cyane.

Abo mu muco gakondo baturaga mu mazu yubatswe neza, imbere y'amazu hahagaze abantu hariho n'umugabo muremure ufashe inkoni.

Mu muco gakondo bakoreshaga ibintu bitandukanye, kugira ngo icyo umuntu yabaga akeneye gukora, kigende neza nta kibazo.

Isogi zimeze neza, zakuze neza, ubona ko nta kibazo zifite, gikenewe kuriba kugirango zitange ubuzima bwiza mu mubiri w'umuntu

Imitako baboha bari kubohamo ibintu bitandukanye cyangwa bakabohamo ibiseke. Ibiseke bakoresha bari gutwerera ahantu hatandukanye, cyangwa ibirori runaka biba byabaye, bakaboha bicaye ku kirago.

Igisabo bakoreshaga mu muco gakondo bari gucunda amata, bamara kuyacunda bakayashira mu nkongoro bakanywa.

Imyenda bakoresha mu muco gakondo bayambaraga iyo habaga habaye ibirori bitandukanye cyangwa ari nk'umugeni ugiye gusaba umugore we.

Umuntu ari gucuranga inanga gakondo bakoreshaga kera barimo guhanga indirimbo, cyangwa habaye nk'ibirori, kugira ngo ibirori byabo bigende neza nta kibazo.

Abakera babyinaga imbyino za gakondo bambaye imyenda yabugenewe, kugira ngo ibirori babaga batashye bigende neza n'ababitashye bizihirwe, bishime ntakibazo.

Abo mu muco gakondo bakoresha ibintu bitandukanye bya bo bya buri munsi, bityo bigatuma umuntu yumva nta kibazo afite.

Uduseke ni utwo bakoreshaga mu muco gakondo, babyina imbyino gakondo, cyangwa bagatwereramo ahantu haba habaye ubukwe, maze bagatwererayo.

Intara bakoresha mu muco gakondo, bagosora ibishyimbo, amasaka, n'uburo, nasoya, ndetse bakayaruriraho ibiryo baba batetse bya gakondo nk'ibirayi, n'ibishyimbo, n'ibijumba, bibihaza.

Abagore ba kera bambara imyenda yo mu muco gakondo ukabona ari byiza, kandi ukabona bimeze neza nta kibazo bifite.

Aba cyera bakoraga imbyino gakondo bafite imirishyo n'ingona, bambaye n'imikenyero yabugenewe, kugira ngo bubahirize umuco wa gakondo kandi ibirori bigende neza nta kibazo.

Igitiyo ni kimwe mu bintu bifashisha mu buzima bwa buri munsi, bari kubaka nk'inzu cyangwa bari kuyoza ifumbire, kugira ngo iyo fumbire bayijyane mu murima batere ibihingwa.

Umuntu ari gukoresha ihembe bakoreshaga mu muco gakondo . Kera barivuzaga habaye ikintu runaka gitandukanye, kugirango ibintu bigende neza.

Igiseke bakoreshaga mu muco wa gakondo, bagikoreshaga bari kubyina mu muco wa gakondo abagore babyikoreye ku mutwe cyangwa bakabitwereramo ahantu habaga habaye ibirori bitandukanye.

Umuntu wambaye urunigi yiyogoshesheje inyogosho abakera biyogosheshaga bitaga igisunzu. Bityo bakajya mu birori bambaye neza kandi basa neza cyane.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo, bashimisha abashyitsi babasuye kugira ngo bagende banezerewe ,bityo bakagenda banyuzwe kugira ngo bazagaruke.

Abagore babyinaga imbyino gakondo, baba bishimye cyane, ntacyibazo bafite bambaye imikenyero ubona ko ibintu ari byiza cyane.

Ibyibo bifite amabara atandukanye kandi meza, bakoreshaga mu muco gakondo, bari nko gutwerera umuntu wakoresheje ibirori, cyangwa bakabikoresha bari kubyina ibyo mu muco gakondo.

Urukiramende barukoresha barusimbuka, bananura umubiri wabo, kugirango bagire ubuzima bwiza.

Aba kera banywaga itabi bakoresheje icyo bita "inkono y'itabi" kugira ngo banywe itabi ryabo nta kibazo.

Mu muco wa gakondo bakoraga ibintu bitandukanye harimo n'udusekuro, badukoraga bakadukoresha bari gusekura ibintu bitandukanye kugira ngo biborohere kubinoza vuba.

Ibyibo bakoreshaga mu muco wa gakondo babikoreshaga batwereye nk’ahantu habaga habaye ibirori bitandukanye, bagashyiramo amahundo cyangwa bagashyiramo amahundo y’amasaka.

Uduseke bakoreshaga, mu muco gakondo badukoreshaga babyina imbyino gakondo cyangwa bakadukoresha batwereye nk'umuntu wabaga yakoresheje ibirori bitandukanye.

Isuka ni imwe mu bikoresho bikundwa n'abantu bose, abantu bose barayikunda, ikora imirimo itandukanye, iyo bari guhinga cyangwa iyo bari gutera imyaka itandukanye, bakanayikoresha bari guponda ibyondo byo kubakisha amazu.

Umusaza uhagaze mu muhanda ari kureba hirya, afashe igikondo kimwe mu ruhande rumwe n'ikindi mu ruhande rundi, bigaragara ko yavunitse.

Uduseke bakoreshaga mu muco gakondo, babyinaga batwikoreye ku mutwe, cyangwa bakabitwerwereramo mu gihe habaga habaye ibirori runaka, bambaraga n'amayugi bariko kubyina, kugira ngo ibirori bigende neza.

Abagabo bambaye imyenda bakoreshaga bari kubyina imbyino gakondo bambaye n'imigara, bafashe n'icumu bari kubyina mu birori bitandukanye kugira ngo ibyo birori bigende neza.

Ikoranabuhanga ni ryiza, ryatuzaniye ikintu umuntu akoresha arite guteranya imibare, umuriro washira bakagicaginga, kugira ngo umuntu akomeze akazi aba afite.

Iterambere rirakataje mu Rwanda aho umuntu akora ibintu bitandukanye, umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri gihe, byatuma yiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ikoranabuhanga bakoresha bari gukora amatara, kugirango iterambere riganje mu bantu bose bagire ubuzima bwiza.

Iterambere rirakataje, bari gukora ibyuma bya elegitoronike bitandukanye, abantu bifashisha bakoresha ibintu bitandukanye byabo.

Ikoranabuhanga ni ryiza aho bakora ibintu bitandukanye, abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo ubuzima bugende neza.

Ibyuma by'ikoranabuhanga bari kubikora ku bwinshi, kugira ngo u Rwanda rukomeze rukataze mu kwiteza imbere, kugira ngo n'ababikora babone amafaranga yo gutuma bakomeza kwiteza imbere.

Torunovise ni igikoresho cy'ikoranabuhanga. Bagikoze bagikoresha kugira ngo bajye barakora mu gihe amatara yagize ikibazo, maze bakayakora bifashishije iyi torunovise.

Icyuma cy'ikoranabuhanga bakoresha bari kugeza ku baturage umuriro kugirango ngo bose bagire iterambere ry'umuriro, bityo buri umwe wese agakomeza akagira iterambere riganje.

Ikoranabuhanga rirakataje mu rwanda, bakora ibintu by'ikoranabuhanga bitandukanye, kugira ngo urwanda rukomeze gutera imbere.

Ikoranabuhanga ni ryiza. Rimeze neza ritugezaho ibikoresho bitandukanye, umuntu akenera muzima bwe. Bityo iterambere rigakomeza gusakara hose.

Benzi ni kimwe mu bintu bakoze by'ikoranabuhanga bifashisha bari gukora ibintu bitandukanye nk'amatara cyangwa umugezi kugira ngo babikoreshe neza.

Inzu ya kera ikenewe kuvugururwa kugira ngo ise neza, maze abantu bazayibemo isa neza ntaki kibazo ifite.

Abayobozi bameze neza, bambaye neza, bambaye n’udupfukamunwa, bari kunyura ku kiraro, bari kugenda basa nk’aho bagiye gutembera, bagiye mu ishyamba gusura inyamaswa ziriyo.

Ikiriziya kimeze neza cyubatswe neza, gifite uruzitiro rwubakishijwe hariho n'amatara, n'ibiti, bityo rukaba ruri kugaragara neza.

Amazu agerekeranye inshuro eshatu, afite ni indabo ku ruhande kugira ngo hagaragare neza, abayagana babone ko ari heza cyane.

Urusengero rwubatswe neza rumeze neza rufite igipangu cyiza ubona ko ruteye amabengeza iruhande hariho ibyatsi bihakikije bitanga akayaga keza.

Icyapa kigaragaza ko aho ari ku mukamira, aho bakora ibintu bitandukanye umuntu akeneraga mu buzima bwa buri munsi. Bakora n'amata yanditsweho mukamira.

Umuyobozi mwiza, witonze, umeze neza ahagaze imbere y’amazu meza bayubatse neza. Ni amazu ageretse inshuro ebyiri cyangwa eshatu, bameze neza, nta kibazo bafite.

Inzu bari kubaka iri iruhande y'umuhanda, hariho n'umucanga bari kubakisha inzu yabo, kugira iyo nzu izakomere cyane.

Umuhanda, iruhande hari umucanga, hariho n'abantu bari kuwukora bambaye ibisarubeti, hariho n'ibyapa birimo amabara y'umutuku n'umukara n'imodoka ziparitse nko hirya.

Amazu ameze neza, ubona ko ntakibazo afite ari ahantu hatuje, impande hariho n'ikigega kinyuramo amazi, ateyeho n'indabo zituma haza amahumbezi.

Urusengero rumeze neza, rusa neza, rw'abanyagatulika, ubona ko rufite ishusho nziza ya Bikira mariya, aho iteretse hasizwe amarangi y'ubururu, n'umweru, iruhande hariho n'indabo nziza zikase neza, hasi hariho n'amapave yubatswe meza cyane.

Urusengero abantu bajya gusengeramo, muri rusange rufite igipangu cyiza, ruteyeho na pasiparume hameze neza.

Urusengero rwiza rumeze neza, rusa neza, impande ya rwo hari imirima itandukanye, irimo ibihingwa bitandukanye, ku ruhande hariho abantu bamwe bahagaze, abandi bari kugenda.

Urusengero rumeze neza rusa neza ubona ko ruri ahantu hatuje rwubakishijwe ibirahuri hejuru byiza. Ubona ko ari urusengero ruza gusengeramo abantu benshi cyane.

Ikiraro cyiza cyane cyubatswe neza cyane, ubona ko kiri kunyuraho abantu ntaki kibazo bafite, bishimye bamwe bameze neza, ubona ko bishimiye iterambere babagejejeho.

Iterambere ni ryiza, aho bubaka umuhanda mwiza, bakanubaka aho abagenzi bazajya baranyura, bakabashyiriraho n'amatara azajya yaka mu gihe ijoro rije.

Ibikoresho abayobozi bakoresha mu buzima bwabo, bafata amazi, bayavana hamwe bayajyana ahandi, kugira ngo iterambere rikomeze kuganza ku baturage bose mu Rwanda.

Abantu bari kunyura ku kiraro bigaragara ko bari kujya mu kazi, kugira ngo bajye gushaka amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Amazu meza, bayubatse neza ubona ko ateye amabengeza, iruhande hari n'ibiti bitanga akayaga, kugira ngo abazayabamo bajye bumva akayaga.

Ameza ameze neza, asa neza, ariho akantu babikamo impapuro kugira ngo zitangirika, cyangwa ngo zandure, kugira ngo bazazifate zifite isuku nta kibazo zifite.

Inzu nziza bari kubabakaneza, bari kuyubakisha ferabeto kugira ngo izakomere, yekuzagira ikibazo na kimwe ihura nacyo.

Amashuri ameze neza, asa neza ubonako yubatswe neza, impande hariho urusengero rumeze neza. Abanyeshuri iyo bamaze kwiga bajya mu rusengero gusenga.

Inzu imeze neza, yubatswe neza, igeretse kabiri. Hepfo hariho abagore n'abagabo bambaye neza, n'umupolisi uhahagaze ari kubacungira umutekano.

Urusengero basengeramo ubona ko rumeze neza ntakibazo rufite, ruri ahantu hatuje abantu baza kuhasengera baza ku munsi wabugenewe.

Abantu bahagaze imbere, harimo umugabo uhagaze imbere ya mikoro, asa nk'aho hari nk'icyo ari kuvuga ari kukibwira abayobozi bari babagendereye.

Abantu bari mu nama, ari benshi cyane, bari kuganirizwa n'umuyobozi wabo ku ngingo zitandukanye barimo kuganiraho.

Isoko rinini ririmo imodoka nyinshi cyane, harimo n'abantu benshi. Ubona ko muri izo modoka harimo n'abantu, bamwe bari kuva hamwe abandi bakabajyana ahandi, kugira ngo bagereyo amahoro.

Akarifani gakora ibintu bitandukanye, kabitwara kakabivana hamwe kakabijyana ahandi, maze uwagatwaye bakamuha amafaranga, agakomeza kwiteza imbere mu bindi bintu.

Moto bakoresha bari gutwara, ibintu bitandukanye ndetse n’abantu, babavana hamwe babajyana ahandi, kugira ngo urugendo rwabo rugende neza nta kibazo.

Imodoka ipakiye wotameloni. Hejuru hariyo umukarani uri kuzipakira neza. Bazijyanye ku isoko kugira ngo abantu bazigure bazirye, maze bagire ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Umuhanda mwiza umeze neza, uri kunyuramo abamotari hakurya hateyeho indabo, iruhande rw'umugore ucuruza mitiyu, inyuma ye hariho inzu bari kubaka igeretse kabiri, ubona ko ari inzu imeze neza kandi nini.

Abanyonzi bari mu muhanda, bamwe bari kujya gushaka abagenzi bo kuvana hamwe bakabajyana ahandi, n'abamotari batwaye abantu, bari kubavana hamwe bakabajyana ahandi, bakabaha amafaranga, bigatuma bakomeza kwiteza imbere.

Indege nziza bakoresha iyo abantu bafite urugendo rurerure, ibavana hamwe, ikabajyana ahandi kugirango urugendo rwabo rugende neza.

Imodoka bakoresha batwara, abantu babavana hamwe babajyana ahandi urugendo rwabo rukagenda neza bakagerayo ntakibazo.

Igare rya sikoro ni ikinyabiziga cyiza gituma umuntu yihuta ava hamwe ajya ahandi, bigatuma akoresha amasaha make cyane.

Gare nziza yubatswe neza ihurirwamo n'abantu bavuye ahantu hatandukanye, baje gutega amamodoka abavana hamwe abajyana ahandi kugira ngo bagereyo amahoro.

Imodoka ziri muri gare ari nyinshi, imbere y'aho hari abantu, inyuma y'aho hari ibiti bitanga akayaga, izo modoka bazikoresha bari gutwara abantu, bakabavana hamwe, bakabajyana ahandi hatandukanye.

Abanyonzi baparitse, bategereje abagenzi babavana hamwe bakabajyana ahandi, maze bakabaha amafaranga bakiteza imbere, mu bindi bintu bitandukanye bakora.

Imodoka ziri mu muhanda iruhande hari n'abantu bari kugendana n'amaguru, hariho n'ibiti biri gutanga akayaga keza, abari mu ma modoka bamwe bari kuva hamwe abandi bakajya ahandi hatandukanye.

Abanyonzi bahagaze baparitse, bari gushaka abagenzi baravana hamwe bakabajyana ahandi, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bintu.

Akalifari ni moto ikundwa n' abantu batari bakeya, kuko itwara ibintu byinshi, ibivana hamwe ikabijyana na ahandi bakabona amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Imodoka yo mu bwoko bwa Hoho itwara ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabuye n'amatafari n'ibyondo n'umucanga, ibivana hamwe ibijyana ahandi, kugira ngo abakora iby'ubwubatsi babone ibikoresho bitabagoye.

Mu modoka nziza kandi zimeze neza, bazikoresha bari gutwara ibintu bimwe, bari kubivana hamwe, ibindi bakabijyana ahandi, bityo bikagerayo amahoro.

Iterambere ryaraje mu Rwanda, aho abagore basigaye bitinyuka bagatwara utulifani, utulifani badukoresha bari gupakira ibintu bitandukanye, babivana hamwe bakabijyana ahandi.

Gare ihurirwamo n'ibintu bitandukanye amamoto n'amamodoka. Abantu baba bategereje amamodoka abajyana hamwe abavana ahandi kugira ngo urugendo rwabo rube rutoya cyane.

Imodoka ni nziza imeze neza, irimo abantu benshi abandi bari kuyijyamo, bamwe ibavana hamwe, abandi ikabajyana ahandi. Bityo urugendo rwabo rukagenda neza.

Ubwato bwiza bumeze neza, ubona ko buteye amabengeza. Aho abantu babujyamo bavuye hamwe bari kujya ahandi, kugira ngo urugendo rwabo rubabere rugufi.

Indege bakoresha bari gutwara ibintu bitandukanye, babijyanye kure cyane, kugirango bigereyo vuba. Babijyana mu ndege kugira ngo aho babijyanye amasaha abe makeya cyane.

Imodoka bakoresha mu buzima bwa buri munsi, bari gutwara ibintu bitandukanye, bari kubivana hamwe bakabijyana ahandi, harimo nk'ifumbire, cyangwa bagiye no gucuruza ibirayi, cyangwa abagiye nko gupakira nk'umuceri wo gucuruza.

Ibirayi ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu benshi, iyo bamaze kubikura babivana mu murima bakabizana mu kayira, bagahamagara umunyonzi akaza akabijyana ku isoko kubigurisha, bakamubaha amafaranga.

Abantu bahinze ibitoki birakura, babijyanye ku isoko kubigurisha, kugirango babone amafaranga, atuma bakomeza kwiteza imbere mubuhinzi bwabo.

Umukino wo gukina bari kujugunya icumu ni umukino abantu bakunda ari benshi, kuberako utuma umuntu agira ubuzima bwiza, akarambuka n'umubiri we wose.

Umukino w'amaboko ni umukino mwiza utuma amaboko y'umuntu arambuka, ndetse n'amaguru, n'umubiri ugatembera neza, umutwe ugatekereza neza, maze umuntu akagira ubuzima bwiza.

Hoteri imeze neza, iri ahantu heza, yubatswe neza, ifite ibiti byiza, amazi meza, abantu bahagana baje kuharuhukira, bityo bagatekereza neza n'umubiri wabo ukaruhuka.

Umupira w'amaboko wa basiketi, ni umupira ukundwa n'abantu batari bake cyane. Iyo bawukinnye abantu baza muri sitade bakaza gufana. Ikipe iratsinda iyo yatsinze barayihemba.

Siporo ni nziza ni ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, kuko ituma umubiri w'umuntu urambuka no mu mutwe agatekereza neza, bityo akagira ubuzima bwiza.

Umupira w'amaguru ni umupira ukundwa n'abantu benshi cyane, iyo habaye umupira abantu baza muri sitade, bakaza kureba ikipe iratsinda, iyo yatsinze bayiha amafaranga atuma yiteza imbere mu bindi bintu.

Umupira w'amaboko ni umupira ukundwa n'abantu benshi cyane kandi ukinwa nabantu bose, yaba abakobwa cyangwa abahungu kugirango umubiri wabo urambuke neza.

Abana bari kwitoza bari gukina umukino w'amaboko wa basikete, umukino wa basikete utuma umubiri w'umuntu urambuka amagufa yo mu mubiri agakora neza, n'umutwe w'umuntu ugatekereza neza, umuntu akagira ubuzima bwiza.

Umukino w'amagare ni umukino ukundwa n'abantu benshi cyane, aho n'abana basigaye bawishimira ukabona nta kibazo ubateye, banejejwe na wo barishimye cyane.

Umukino w'amaboko ni umukino mwiza. Utuma amaboko y'umuntu arambuka n'umubiri ukarambuka n'ubwonko ugatekereza neza, bityo umuntu akagira ubuzima bwiza.

Basiketi ni umukino ukundwa n' abantu batari bakeya, kubera ko iyo bari gukina n' andi makipe bagatsinda, barahembwa kandi bagahesha n' igihugu cyabo ishema neza.

Siporo ni nziza cyane, umukino w'amaboko utuma amaboko yumuntu arambuka, n'amaguru. Akagira umubiri mwiza n'umutwe ugatekereza neza.

Siporo yo gutwara igare ni nziza, kuko ituma umuntu agira ubuzima bwiza, akarambuka n'umubiri. Hari n'igihe bakora amarushanwa mu gihugu, uwatsinda bakamuhemba ibihembo bishimishije.

Umukino w'amaboko ni umupira ukundwa n'abantu batari bakeya. Iyo habaye imikino itandukanye y'amaboko abantu baza muri sitade bakaza kureba umukino w'amaboko bari gukina.

Umukino wo gusimbuka abantu bawukunda ari benshi cyane, abantu baza muri sitade kureba umukino bakina w'urukiramende wo gusimbuka, kugirango ngo barebe abatsinda abandi.

Abayobozi bishimye bameze neza, bigaragara ko ari abayobozi ba siporo, bafashe idarapo ry'u Rwanda. Ubona ko bishimye cyane kuba batuye mu Rwanda.

Abantu baje muri sitade ari benshi cyane, baje kureba abantu bari muri siporo, bari mu mikino itandukanye.

Umukino w'amaboko ni mwiza utuma umuntu yishima akidagadura, akumva nta kibazo afite umubiri we ugatembera neza, bigatuma atekereza neza mubuzima bwe.

Umukino wa vole ni umukino ukundwa n'abantu benshi. Iyo abantu baje muri sitade baje kureba uko ukinwa iyatsinze indi bakayihemba maze ibyishimo bikaba byinshi.

Siporo ni nziza cyane, umukino w'amaboko utuma umubiri w'umuntu urambuka, akagira n'ibitekerezo byiza, bityo akagira ubuzima bwiza.

Siporo ni umukino mwiza utuma umubiri w'umuntu ugororoka kandi ukamera neza no mu mutwe hagatekereza neza bityo umubiri ukamera neza cyane.

Tenisi ni umukino mwiza cyane, abantu bakunda ari benshi cyane, ugatuma umuntu agororoka umubiri, kandi agatekereza neza cyane.

Abantu baje muri sitade ari benshi, baje kureba imikino itandukanye, kugira ngo babone ibyiza by'imikino itandukanye, hariho n'umuporisi ubacugiye umutekano.

Umukino wa siporo ni mwiza ukundwa n'abantu benshi cyane, nk'uwa hendiboro turawukina tugatsinda bakaduha amafaranga, maze agatuma twiteza imbere mu yindi mirimo itandukanye.

Tenisi ni umukino abantu bakunda ari benshi. Nk’uyu mukobwa yishimiye kuwukina kuko utuma umuntu arambuka umubiri wose, agatekereza neza, nta kibazo afite.

Pisine imeze neza ifite amazi meza, iruhande hariho ibiti bituma akayaga kaza kagahuha, abantu bananiwe baza bakaruhukira muri ano mazi, bityo ubuzima bwabo bukamera neza.

Igiti cy'umusave ni igiti cyiza. Kimeze neza, bazagitema bakuremo imbaho, bazijyane ku isoko, babone amafaranga, yo gutuma biteza imbere mu bindi bintu bitandukanye.

Imbuga bakoresha iyo bari kugenda cyangwa bari kugaruka, bakanayikoresha bari kwanikaho ibintu bitandukanye nk'amasaka, cyangwa ibigori cyangwa n'uburo.